Abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bamwe baricaye abandi barahagaze, bigaragare ko hari igikorwa bahuriyemo, hari abafite ibitabo mu ntoki ndetse n'udukapu.

Abantu bicaye mu cyumba bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, babiri babiri bari kurebana, bambaye imipira y'umweru, imbere ku meza hashasheho igitambaro cy'ubururu hateretseho utundi tuntu tw'udupapuro.

Ahantu heza cyane, hari abantu benshi bicaye ku ntebe zitandukanye, zifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara nkaho bari mu nama.

Abagabo babiri, n'abagore babiri, umugore umwe n'undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo, undi umugabo agaretse akaguru ku kandi yambaye ikositimu y'umukara, inyuma hari cyapa cy'ubururu cyanditseho Rwanda, n'ibendera ry'u Rwanda, imbere hari aka meza gateretseho amazi yo kunywa.

Abagore bari mu nama, imbere yabo hateretse ibicupa binini by'inzoga n'ibirahure bafite dogaye imbere yabo. Inyuma hari abandi bantu bari mu nama batari kugaragara neza, ariko abicaye imbere ni abagore babiri n'umugabo umwe. Kandi bose bambaye indorerwamo z'amaso.

Abantu benshi bicaye bigaragara ko hari igikorwa cyabahuje, imbere yabo hari ameza ndetse n'amakaye n'uducupa turimo amazi na telefone, bamwe bafite amakaramu bigaragare ko bari kwandika.

Umugore uhagaze inyuma ye hari icyapa kirimo ibara ry'umweru ndetse n'amabara y'umukara yambaye ikanzu ndende y'ibara ry'ubururu ndetse n'umukandara w'ibara ry'ubururu imbere ye hari ameza ateretseho icupa ririmo amazi.

Umugabo ufite imisatsi ye irimo imvi wambaye ikote ry'umukara ari imbere y'indangururamajwi, hakurya hari abandi bagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'Inyange ndetse n'uducupa twa ji y'Inyange.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umutuku bambaye imipira y'umweru, imbere yabo hari ameza ariho udutambaro tw'umukara hateretseho uducupa turimo amaz,i imbere yabo hari abandi bantu batatu bicaye hagati harimo umukobwa ufite mikoro uri kuvuga.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hari ameza ariho udutambaro tw'umweru, ateretseho uducupa turimo amazi. Imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro ya kake afite mikoro, imbere y'uwo mugabo hari icyapa gishushanyijeho umwana wambaye umupira w'ubururu, afite akantu mu ntoki gafite ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bicaye, abenshi bambaye amakoti y'umukara imbere hari uwambaye ikoti ishati y'umweru, imbere ye hari imeza iteretseho icupa ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ikirango cy'igihugu.

Abantu batatu bicaye mu cyumba ku ntebe z'umukara barambitse amaboko yabo ku meza afite ibara ry'ibihogo, bafite mudasobwa imbere yabo n'amazi mu ducupa, inyuma ku gikuta gisa umweru handitse ijambo Rura.

Abantu benshi batandukanye bambaye imipira y'umweru ndetse n'abambaye imipira y'umukara, bafite amaboko hejuru arimo terefone bigaragara nk'aho bari gufotora. Inyuma yaho, hari abandi bambaye imipira ya orange, bigaragare ko hano hari igikorwa cyahabereye baje kureba.

Abantu batuje bitwaye neza bicaye ku ntebe z'umweru hariho n'akandi kabara k'umuhondo higanjemo abagore n'abagabo baricaye mu nzu isize amarangi y'umweru, bambaye imyambaro itandukanye, bateze amatwi.

Abantu benshi bicaye mu byiciro bitandukanye, imbere yabo hateretse imeza zirimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hariho impapuro ndetse n'abandi bantu bafite amakaramu mu ntoki, basa naho bari kwandika.

Umusore wambaye umupira w'umukara, ufashe indanguru amajwi mu ntoki. Arahagaze imbere ye hicaye urundi rubyiruko. Inyuma ye ku gikuta hari ishusho irimo ibendera ry'u Rwanda, yanditseho Rwanda n'andi magambo atagaragara neza. Afite ubutumwa ari gutanga ku rubyiruko.

Abantu bicaye ku ntebe nziza inyuma yabo hari ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru. Imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umutuku, hateretseho imashini ndetse na mikoro imbere yabo.

Abantu bicaye inyuma yabo hari abahagaze, inyuma yabo bose hari igitambaro cyanditseho amagambo bigaragara ko hari igikorwa cyabahurije hano, imbere yabo hari ivaze irimo ururabyo.

Abantu benshi bicaye ku ruziga ku ntebe nziza, imbere yabo hari ameza ateretseho imashini, impapuro ndetse n'ibindi, imbere yabo hari amafoto ari kugaragara ndetse n'indabyo bisa n'aho aho hari ibiganiro barimo.

Abagabo batatu bicaye harimo uwambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umukara yambaye na rinete, imbere ye hari ameza ateretseho imashini, icupa ririmo amazi ndetse n'icupa ririmo sanitayiza bakoresha bisukura intoki.

Umugabo wicaye, wambaye ipantaro y'umukara n'ikote ry'umukara, imbere harimo ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku, afite mikoro mu ntoki, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ushinzwe umutekano ibiro by'ingenzacyaha, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye akajiri k'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu, abo ari kubwira bambaye imyenda itandukanye ariko bicaye ku ntebe z'umweru, ku meza hashasheho udutambaro tw'umweru duteretseho n'amazi yo kunywa.

Abagabo bateraniye hamwe ari benshi. Umwe afashe indangururamajwi ari kuvuga. Yambaye ikositimu y'umukara na karuvati y'umukara ivanze n'utubara tw'umweruru. Imbere yabo ku kameza hateretse amatelefone, nyuma hari undi mugabo wambaye indorerwamo z'amaso z'ubururu, ndetse ku madirishya hari amorido y'umweru.

Abantu bicaye, imbere yabo hari ameza ariho uducupa turiho amazi ndetse na telefone. Imbere yabo hari umuntu uhagaze, bigaragara ko bari mu nama, hari ibyo ari kubabwira.

Ameza ashasheho igitambaro cy'ubururu n'umuhondo. Ateretseho uducupa tw'amazi. abantu babiri bahicaye umugore n'umugabo, umugore asize ikiganza hejuru, arifuza kuba yatanga igitekerezo cye.

Abantu bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umutuku, imbere yabo hari umugore ufite mikoro mu ntoki, yambaye ishati y'umuhondo n'ijipo y'umukara ndetse afite n'agatambaro mu mutwe, imbere yabo, hari ameza ateretseho uducupa twinshi turimo amazi.

Abantu benshi bicaye bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere hari ikirango cy'Igihugu, bicaye imbere y'ameza ariho udutambaro ateretseho ibitabo ndetse n'uducupa turimo amazi igaragara nk'aho bari mu nama.

Barateranye bicaye hamwe bari kureba ibyanditse imbere yabo ku kibaho gihari, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, amaterefone bayarambitse hasi, barakurikiye rwose. Ni abagabo bambaye imyambaro itandukanye ariko hari n'umugore umwe ufite imisatsi myinshi.

Abantu benshi bicaye, hari abicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, hari n'abicaye ku ntebe ziri mu ibara rya oranje. Imbere hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi ndetse n'ibitabo, bigaragara nk'aho bari mu nama.

Ahantu heza hari abantu benshi bicaye ku ntebe ziriho udutambaro tw'umweru bambaye imidari mu ijosi dukunda kwita baji imbere yabo hari imeza iriho agatambaro k'umukara iteretseho ibitabo ndetse n'uducupa turimo amazi ndetse n'ibirahure birimo amazi ku ruhande.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku, harimo umugabo wambaye linete, yambaye ikote rifite ibara rya kake ndetse n'ishati y'umweru, harimo na karuvati irimo imirongo y'ibara ry'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye ishati y'umutuku, ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bicaye mu matsinda, imbere yabo hari ameza ariho impapuro nyinshi zitandukanye, ndetse hateretseho n'uducupa turimo amazi hariho n'abantu bari kwandika, inyuma yabo hari umuntu uhagaze bigaragara ko ari kugenzura.

Abantu bicaye muri stade ni benshi, urubyiruko, abakuru, abato, abagore, hafite sima y'umutuku, inkingi ni umuhondo, igisenge ni umweru, harimo n'ibigiriyaje by'ubururu.

Abantu benshi bicaye nk'uruziga bari mu nama, imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'umutuku, ateretseho ibitabo, telefone ndetse n'uducupa turimo amazi, imbere y'aho hari mikoro bigaragara ko arizo bari gukoresha bavuga.

Abantu benshi bicaye ku ntebe nziza imbere yabo bafite imashini ndetse n'ibikapu ku ruhande, abandi bafite telefoni mu ntoki bigaragare ko hari igikorwa kiri kubera aha hantu.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza ariho udutambaro tw'umweru, hariho udutabo ndetse n'uducupa turimo amazi, bigaragara ko ari igikorwa kiri kuhabera cyangwa bari mu nama.

Abantu rwose biyubashye harimo abagabo n'umugore umwe n'undi mugabo uhagaze ku ruhande wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru n'agacongo k'umukara. Inyuma inkingi zirasa oranje n'ibikuta birasa umweru n'umukara.

Abantu batatu bicaye ku ntebe nziza, babiri bambaye amashati y'mweru undi yambaye ikote ry'umukara n'ishati ya buresiyeri, imbere yabo hari ameza ateretseho udupapuro ndetse n'uducupa turimo amazi, imbere yaho na none hari mikoro bari kuvugiramo.

Umunara muremure, uri mu ibara ry'umutuku n'umweru, uri ahantu, inyuma yaho hari ibiti birebire bifite icyatsi cyerurutse ndetse n'ipoto ritoya, rinyuraho urutsinga rw'amashanyarazi, hakurya urebye ikirere kirakeye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umukara kimanitse harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'uturongo tubiri dushushanyije bigaragara ko aho hantu hari netiwaka.

Mu gihe cya covid cumi n'icyenda leta y'u Rwanda yari yarasizeho uburyo bwo gukoresha no kwakira serivisi izo arizo zose hirindwa kwanduzanya, nibwo bashyizeho amabwiriza yagengaga abatanga serivisi za mobile money mu rwego rwo kurwanya korona virusi. Bagombaga kuba bambaye uturindantoki n'agapfukamunwa kandi bagashyiramo metero, ibi byose ni amabwiriza yakurikizwaga.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ayo magambo yanditseho aragaragaza umunsi ntarengwa cyangwa se kumenyekanisha ubwishyu bw'ipatanti munsi yaho hari amagambo ndetse n'imibare ushobora ushobora kunyuraho ugasura urubuga.

Ikirango cyanditseho ngo harabura iminsi ibiri. Harabura iminsi ibiri kugira ngo itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro w'ipatante wa bibiri na makumyabiri na kane igere. Aha bamenyeshaga abantu bose ko bagomba kwishyurira ku gihe.

Ipironi rigira uruhare mu itumanaho aha rifite amabara y'umweru numutuku, hometseho ikirango cya emutiyene kiri mwi bara ry'umuhondo, ikirere kirijimye ariko cyirasa neza.

Umuhanda wa kaburimbo mu nkengero zawo hari inzu iriho icyapa cyanditseho irembo bigaragara ko aho hantu hatangirwa serivisi zijyanye n'irembo. Ku rundi ruhande hari umuryango ufunguye wanditseho banki bigaragara ko aho hantu hatangirwa serivisi zijyanye no kubitsa, kubikura amafaranga.

Ipironi riri mu mabara y'umutuku, n'umweru hejuru hari ibintu bimeze nk'isahani bisa umweru ahari nabyo bigira uruhare mu kugira ngo itumanaho rigende neza iruhande rw'ipiloni hari guhinguka amababi y'ibiti ikirere gisa ubururu bwiza cyane ndetse havanzemo n'utubara tw'umweru.

Rura iba yigisha abantu, utuntu tw'ubwenge, haranditse ngo wakora iki mu gihe habayeho gusohoka, cyangwa guhita kwa gaze, mu gihe habayeho guhita kwa gaze cyangwa kuva uzabibwirwa n'impumuro ya gaze yihariye, muri icyo gihe kora ibi bikurikira, ni inama zigera kuri eshanu, mu gihe utetse funga gazi n'ibindi byose wakurikiza bikagufasha.

Iri ni itangazo ririho icyitonderwa kiri mu ibara ry'umuhondo handitseho ngo dedilayini, mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi na kabiri bibiri na makumyabiri na kane, bibutsaga abantu ko ari itariki yo kuba umuntu yamaze kwishyura umusoro.

Ni umusore uhagaze imbere y'umukobwa wicaye ari kwaka serivise. Umukobwa yambaye ishati y'umweru, umusore yambaye umupira w'icyatsi. Ku kameza gasa umweru ndetse mu ruhande ibara risa oranje.

Umwana w'umukobwa wambaye ibyumviro byo mu matwi biriho indangururamajwi. Ari kureba muri mudasobwa, uko agaragara asa n'umunyamakuru, umukobwa mwiza w'inzobe.

Akarango keza kandiditseho Aragibi mu mu magambo y'ubururu, munsi hakaba handitse Rwanda gavunensi bodi mu ibara ry'icyatsi ariko bikaba byandikishije ibara ry'umweru.

Ipironi itwara insinga z'amashanyarazi, biri ahantu harijimye, ikirere nacyo gisa nkaho kijimye wagira ngo nibwirakabiri nta bindi bintu biri kugaragara neza uretse ipirini yonyine.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Hagati hari ibyuma ndetse hariho na mikoro, amagambo yanditseho biragaragara ko ari ikirango cya Radiyo Rwanda.

Umuntu wicaye wambaye ingofero y'umukara iri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho imashini zigiye zitandukanye, imbere ye nanone hari indi mashini iri mu ibara ry'umweru munsi yaho hari akadobo dukunze kwita puberi bajugunyamo imyanda. Kuruhande rwe hari indi meza iriho insinga zitandukanye.

Umubyeyi w'umupapa atunze urutoki muri mudasobwa, asa naho afite uwo ari kwereka inyuma ye nubwo tutamubona. Ari kumusobanurira ibijyanye n'ikoranabuhanga n'uburyo wakoresha serivisi z'irembo wibereye iwawe mu rugo.

Inzu zifite imiryango myinshi itandukanye hari ibyapa bigiye bitandukanye, imbere haparitse imodoka y'ibara ry'umukara ku mapave, imbere kuri iyo miryango hari ahantu hari akameza k'umutuku bigaragara ko ari ahantu bari bahicaye, ku ruhande hari umuryango uriho amakaziye y'umutuku ndetse n'icyapa bigaragara ko batanga serivisi zijyanye n'irembo.

Abantu benshi bahagaze mu muhanda inyuma yabo hari jaride ndetse n'inzu, bafite kamera mu ntoki abandi bafite terefone, ku ruhande rwabo hari abandi bantu babiri bahagaze bigaragara ko bari kuganira.

Inzu ifite ibara ry'umweru, hejuru hariho ikirango bigaragara ko hatangirwa serivise z'Irembo, ifite umuryango ukinguye, imbere yayo hari umuntu uri gutambuka bigaragare ko ari kwinjira muri iyo nzu.

Ipoto rifite insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, ishinze muri jaride irimo uduti twinshi, inyuma yacyo hari igipangu cyubakishije amatafari mo imbere harimo inzu ndende.

Umuhanda wa kaburimbo, ku nkengero zawo hari undi muhanda uhagazemo umuntu ufite umufuka imbere ye ndetse n'indobo ifite ibara ry'umutuku, bigaragara ko ategereje imodoka iri buhanyure itwara abagenzi ikamutwara.

Icyapa kiri mw'ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, inyuma yacyo hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye. Inyuma y'icyo gipangu harimo umunara muremure ufite insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, ku ruhande rw'umunara hari n'ibindi byuma.

Umuhanda wa kaburimbo ku nkengero zawo hari igiti kirekire dukunze kwita ifoto gifite itara hejuru, inyuma yacyo hari indi poto ifite insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye, ku ruhande rwayo hari akazu kahari ndetse ku rundi ruhande hari imodoka ziparitse, imbere yaho hari abantu ndetse n'akazu ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo.

Ibyuma bibiri bishinze mu byatsi, hejuru hariho icyuma kirimo insinga nyinshi zohereza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye. Bishinze iruhande rw'amabati, inyuma yaho hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Ipironi rirerire cyane rishinze mu byatsi, iruhande rwayo hari ibiti byinshi, hejuru rifite insinga nyinshi, zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Hakurya hari amazu menshi yubatse, utabasha kumenya ngo ni angahe, hari ipoto ry'amashanyarazi uruhande rw'umuhanda ririho insinga nyinshi, inyuma yaryo hari ibiti byinshi n'insina.

Igiti kirekire cyane, kiriho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, inyuma yacyo hari inzu yubakishijwe amatafari ndetse gishinze mu byatsi, imbere yacyo hari icyapa cyanditseho amagambo.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwayo hari jaride iteyemo indabyo, inyuma yazo hari igipangu kinini cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere yacyo hari igiti kirekire gifite insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, kiragaragaza uburyo ushobora kugura amayinite ndetse imbere yacyo hari moto ihaparitse ihetse umugenzi inyuma yacyo hari umutaka ufite ibara ry'umuhondo rigaragara ko aho hantu hatangirwa serivisi za MTN.

Ipoto rirerire rifite itara hejuru ndetse n'insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, inyuma yayo hari ibyuma biteretseho ikigega gifite ibara ry'umukara. Ku ruhande hari urukuta rwanditseho Emutiyene ruri mu ibara ry'umuhondo, bigaragara ko aho hantu hatangirwa serivisi zijyanye no kubitsa no kubikura ndetse no gutanga ama inite.

Inzu nziza ifite amabati y'umutuku, imbere hari igipangu gifite ibara ry'umukara cyanditseho na nimero, ku ruhande hari itara rirerire rigaragara ko ari itara bakoresha bamurika nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwaye umugenzi, ku nkengero zawo hariho amapoto menshi afite insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye. Iruhande rwayo hari utuzu dufite ibara ry'umuhondo, bigaragara ko hatangirwa serivise za MTN zijyanye no kubitsa, kubikura ndetse no kohereza ama inite.

Igiti kirekire cyane dukunze kwita ipoto, gifite itara hejuru, gifite n'insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bijyiye bitandukanye. Imbere yacyo hari icyapa cyanditseho Eyateri kiri mu ibara ry'umweru hagati harimo ibara ry'umutuku, ku ruhande rwacyo hari ikindi cyapa kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse icyo cyapa gifite ibara ry'ubururu.

Ni ipoto iriho insinga ziri kwerekeza mu bice byose bitandukanye, iyo poto iri hejuru y'inzu ishaje yubatse nabi, nkuko ubibona ikirere kirasa umweru.

Ipironi rirerire rifite insinga nyinshi z'amashanyarazi zijyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye, ku ruhande rwayo hari n'irindi pironi rirerire naryo rifite insinga ziri kujyana amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye.

Umugabo wuriye ipironi ritwara insinga z'amashanyarazi nk'uko tubibona hirya no hino, yambaye agasengeri k'umuhondo n'akagarurarumuri kari mu ibara ry'ivu. Hari n'undi uri kurira wambaye iby'umukara, uri kumusangayo.

Inzu nziza ifite ibara ry'umuhondo urugi n'amadirishya bifite ibara ry'umweru imbere yayo hari ibyuma bifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara hirya ku ruhande gato hari umuntu uhagaze mu muryango wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'ingofero.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, umukara n'umweru. Munsi hari akafureshi cyangwa akambi, kagaragaza ko hafi aho hatangirwa serivisi z'ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto ririho itara ricana ku muhanda nijoro, inyuma yaryo hari inzu turabona urugi rw'igipangu ruri mu ibara rya oranje, inyuma yarwo hari ibiti birebire byiza cyane.

Hari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi bw'amashanyarazi, hari gutunganywa insinga, hari kubakwa iminara n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'amashanyarazi ndetse n'uburyo bw'itumanaho, abari kuhubaka bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero z'umuhondo.

Igiti kirekire kimwe twita ipoto, kiriho insinga zitandukanye z'umuriro w'amashanyarazi zijyana amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye, kiri iruhande rw'igipangu cyubakishije buroke sima, iruhande rwaho hari akazu gafite ibara ry'umuhondo kariho nimero mirongo itatu.

Umuhanda wa kaburimbo, ku nkengero zawo hari umuhanda uri kugendwamo n'abanyamaguru; hagati mu muhanda harimo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari igipangu, imbere yacyo hari amapoto abiri, ipoto rimwe rifite itara hejuru, irindi rifite insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Kwa muganga hari imbangukiragutabara, imodoka zitwara imbabare, abantu barembye cyane babavana ku bitaro bimwe babajyana ahandi hari umusekirite w'umukobwa ubishinzwe, hari n'intebe bamwe baricara abandi barahagaze.

Inzu nini cyane imbere ku muryango hariho abantu benshi, bigaragara ko hari serivise bari gushaka. Iruhande rwabo hateretse kandagira ukarabe, iriho indobo ifite ibara ry'icyatsi n'akabase gato kari mu ibara ry'icyatsi. Iruhande rwayo hari umugore uri kureba inyuma, bigaragare ko ari kureba abo bantu benshi.

Inzu ndende yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya manini abiri, iruhande rwayo hari umuntu uri kugenda, imbere ye hari inzu ifite irangi ry'umweru ndetse n'amadirishya, iruhande rwe hari imodoka zifite amabara atandukanye zihaparitse.

Inzu nini isakaye irimo umugore ufite urupapuro mu ntoki, imbere yaho hari imodoka iparitse, imbere yaho nanone hari icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho farumasi bigaragara ko ari aho bafatira imiti, imbere yaho na none hari igiti kirekire kiri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inzu nziza yubatse inyuma y'ubusitani bwiza burimo utwapa dutandukanye. Iruhande rw'iyo nzu haparitse imodoka nyinshi ziri mu mbara y'umweru, ndi kubonamo n'ibangukiragutabara. Iyo nzu wagira ngo ni kwa muganga. Iyo nzu ifite igisenge gisa umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo imodoka iri mu ibara ry'umutuku, ku nkengero zawo hari inzu ifite urugi rukikijwe n'ibyuma, hejuru hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, bigaragara ko hano ari ku bitaro havurirwa abarwayi.

mba katagaragara hicayemo hejuru hari ita riri kwaka nubwo ritari kubonesha neza hanze hagaragara ko inzu yubakishije amatafari munyahiye ariko hasiho n'irangi ry'umuhondo

Abagabo batatu bari kureba muri mudasobwa bambaye amataburiya y'umweru bose, ku meza habo harasa umweru, mudasobwa zabo zirasa umukara, ku gikuta hasize irange ry'umweru.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hari imeza iteretseho impapuro iriho imashini, bigaragara ko hari gukorerwa serivisi, iruhande rwabo, hari indobo dukunda kwita puberi, ijugunywamo imyanda.

Ahantu heza kandi hanini hari jaride ndetse n'abantu benshi bambaye udupfukamunwa, ku ruhande rwabo hari inzu nini, bigaragara ko ari ku bitaro, ari ahantu havurirwa abarwayi.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku, imbere harimo indi shati y'umukara iriho nakabara k'umweru, uyu mugabo yogoshe umusatsi wose umazeho, aritegereza imbere nkaho ibintu byamucanze.

Inyubako ndende yubakishije amatafari y'imponyo ahiye, hariho umuryango umwe ufite urugi rutukura. Hari kunyuraho imfungwa zitandukanye, zambaye imyambaro iri mu ibara ry'iroza.

Umugore mwiza ugaragara nk'ukuze, ahagaze ku kameza gato batangiraho imbwirwaruhame, yambaye ikanzu y'ubururu, amaherena, afite indangurumajwi mu ntoki ze.

Imfungwa zambaye imyambaro iri mu ibara rya oranje ziri kunyura inyuma y'inyubako ndende yubashije amatafari agiye ariho irangi ry'umuhondo, bafite amasuka ku rutugu, abandi bafite ibitiyo n'ingorofani, bagiye mu mirimo y'ubwubatsi.

Abantu benshi bicaye mu byatsi, imbere yabo hari abandi bicaye ku ntebe, imbere hari ameza ariho impapuro ndetse n'umuntu uhagaze, imbere yaho na none hari umugabo uhagaze, biragaragara ko bari mu nama hari igikorwa cyabahurije aho.

Abantu batandukanye bicaye, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi ndetse hari n'ibitabo, ndetse hari na telefone. Hari umugabo ufite mikoro bigaragara nkaho ari kuvuga.

Abantu babiri bicaye, umwe yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, undi yambaye ikote ry'umukara, imbere hari ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza hateretseho agatabo, undi afite ikaramu mu ntoki ndetse bambaye na rinete bigaragara ko bari kuvuga.

Umugore wambaye ikote ry'umutuku mo imbere harimo agakanzu k’umuhondo. Yisize ibintu ku munwa, afite imisatsi y'umukara n'amaherena manini y'uruziga. Inyuma ye ku gikuta harasa umweru ariko utari umweru mwiza.

Ni lisite iriho amategeko agiye atandukanye, hari ari mu Kinyarwanda, inyuma akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza, ku rundi ruhande rwa gatatu akaba ari mu rurimi rw'Igifaransa, kandi yose ni amwe ni uko ari mu ndimi zitandukanye.

Ni abacamanza bambaye imyenda ibibemerera, iri mu ibara ry'umutuku; umwe yambaye indorerwamo z'amaso ndetse afite n'indangururamajwi mu ntoki, ingofero zabo bazikuyeyemo bazirambika ku meza, ni ingofero zikoze nk'akaziga. Hatereste uducupa tw'amazi tubiri, kamwe ka buri muntu.

Ni igitambaro kimanitse cyanditseho kwibuka ku nshuro makumyabiri na gatanu. handitse Rwanda koregisheni savisi Nyamagabe purizoni. Iyo winjiye kuri gereza ya Nyamagabe niho ubibona, urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, gereza ya Nyamagabe.

Uyu mugabo ni umucamanza ahagaze imbere y'indangururamajwi. Iyo umucamanza agiye kuvuga ashyiramo akagofero maze agafata umwanzuro wa nyuma, dore yambaye ikanzu y'umutuku ishati y'umweru mo imbere, inyuma kugikuta handitse bibiri na makumyabiri na gatanu. Amarangi y'icyatsi ku gikuta n'ay'umukara.

Ikibuga kinini kirimo moto nyinshi ndetse n'imodoka nyinshi, harimo n'abantu batandukanye. Hahagazemo abapolisi, bigaragara ko aha ari ho hafatirwa amasomo ndetse hagatangirwa n'ibyangombwa byemerera umuntu gutwara ikinyabiziga.

Ni umugozi wifashishwa mu gihe bari kuzimya inkongi y'umuriro. Ni umugozi bacomeka kuri kizimyamwoto, hanyuma ukajya unyuramo amazi, ukaba muremure kugira ngo amazi abashe kugera ahantu kure.

Umuhanda urimo abantu benshi bari kujya mu bice bitandukanye, harimo umupolisi wambaye imyenda y'umukara ndetse irimo imirongo y'icyatsi, imbere ye hari imifuka irimo imizigo, ku ruhande rwe hari igare rihetse ibiti.

Imodoka nini ifite ibara ry'umutuku, imbe ku ruhande hahagaze abantu benshi n'imbere yayo hahagaze abantu babiri bambaye imyenda y'umukara irimo amabara y'icyatsi, bambaye n'ingofero zirimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, bafite umupira munini w'umutuku uri kohereza amazi.

Ahantu hari abantu benshi, hahagaze umupolisi wambaye imyenda y'umukara irimo amabara y'icyatsi, imbere handitseho imibare ndetse handitseho na polisi. Imbere ye hahagaze umuntu wambaye ingofero, bigaragara nk'aho uyu mupolisi ari kumubwira.

Abanyeshuri benshi bahagaze, ku ruhande hari umwana w'umunyeshuri, wambaye ijipo ya kake n' numupira ufite ibara ry' icyatsi afite igikoresho dukunda kwita kizimyamwoto, imbere hari gaze iri kwaka umuriro. Ku ruhande rwe hari umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara, ifite ibara ry'icyatsi mo hagati ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Abantu batandukanye hari uwambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi ndetse n'inkweto z'umukara bamwe dukunze kwita abadaso imbere ye hari abantu bari kugenda hari umusore uhetse igikapu cy'umutuku ndetse n'umukobwa uri ku ruhande rwe bari kugenda.

Abapolisi benshi bahagaze, bambaye imyenda y'umukara, bahetse n'ibikapu by'umukara, bafite imbunda mu ntoki, imbere yabo hari umuntu uhagaze, na we yambaye imyenda y'umukara n'igikapu cy'umukara afite imbunda mu ntoki, bigaragare ko bari guhabwa amabwiriza.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo umupolisi wambaye imyenda y'umukara ndetse harimo imirongo y'icyatsi, yambaye ingofero ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, inyuma ye hari ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto zitwaye abagenzi, imodoka nto ndetse n'indi modoka nini bigaragara nk'aho itwara abagenzi.

Abantu bahagaze imbere yabo hari ameza ariho mikoro, ariho amamashini ndetse n'ibitabo, inyuma yabo hari ibirango bifite ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi, umukara ndetse n'umweru imbere yabo hari ikirango gifite ibara ry'icyatsi, umuhondo n'umweru, imbere yabo kandi hari n'abantu benshi bicaye.

Umukuru w'lgihugu cy'u Rwanda ari kumwe n'abandi bantu arimo araseka, yambaye umupira w'umutuku n'indorerwamo z'amaso, inyuma ye hari abandi bantu bamushagaye n'inyuma yabo hari ibiti bitagaragara neza.

Abantu benshi bafite utudarapo twanditseho Efuperi, hagati muri bo hahagaze Nyakubahwa Paul Kagame ari we perezida w'igihugu cy'u Rwanda, muri iki gihe yari ari kwiyamamaza.

Abantu batandukanye harimo umusore uri guhobera abana abana ni beza rwose barishimye kuba ariko basekera n'abantu abandi baramubangamiye nabo bari kureba ukuntu anezerewe abana.

Umugore mwiza ushize amangaba wambaye indorerwamo z'amaso, ikote ry'umweru n'umukara bivanze. Yicaye imbere y'indangururamajwi n'akamashini kabara amafaranga imbere ye. Yicaye mu ntebe y'umukara, igikuta gisa oranje, ndetse inyuma ye hari ibendera ry'u Rwanda.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru, ikote ry'umukara, karuvati y'umukara n'ipantaro y'umukara. Imbere ye hari mikoro, ku ruhande rwe hicaye abantu benshi, imbere ye hari ifoto iriho umugabo hariho amazina ye bigaragarako ari kwiyamamaza.

Abantu bakuze bambaye neza harimo abagore bambaye imikenyero n'abagabo bambaye amakositime bamwe baricaye abandi barahagaze inyuma y'igikuta hashushanyijeho ababyinyi babyina imbyino gakondo ahantu barambitse ibirenge byabo hari amakaro meza y'amabara.

Umugore wiyubashye rwose, wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru imbere, yambaye n'indorerwamo z'amaso, afite agakayi k'ubururu mu ntoki n'ikaramu imbere ye hari indangururamajwi iri mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi bahagaze bafite udupapuro mu ntoki twanditseho FPR mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, bigaragara ko bari kwamamaza umukuru w'igihugu.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ari gutambukana ijabo rwose nk'uko abikwiriye, ari kumwe n'umudamu we nyakubahwa Jeannette Kagame bose bambaye indorerwamo z'amaso.

Ni mu cyumba cy'inama, aho abamaze gutoresha bari kubara amajwi, bambaye imyambaro igaragaza ko bari bari gutoresha, imipira y'umweru n'igofero z'umweru, zanditseho komisiyo y'amatora.

Hari inyubako nziza zifite amabati ari mu ibara ritukura, imbere yazo hubatse amahema, hari abantu bari kuhagendagenda b'ingeri zose abagabo n'abagore, hari n'imodoka ihaparitse, hari n'akajaride gatoya.

Abagabo babiri bicaye umwe yambaye ingofero n'umupira by'abantu batoresha n'indorerwamo za maso, undi yambaye ijire isa na piki afite umusatsi urimo imvi n'indorerwamo z'amaso yambaye, inyuma ku gikuta haranditse ngo election observation mission.

Abantu bicaye batandukanye, inyuma yaho hari ibirango bitandukanye, ari gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, ku ruhande hari igifite ibara ry'umweru, ibara ry'icyatsi, harimo n'ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi ndetse n'amakaye imbere yabo.

Abantu batatu bicaye, bose bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, imbere yabo hari impapuro nyinshi ndetse hari n'izindi bafite mu ntoki, bigaragare ko hari ibyo bari kureba.

Umugore wicaye yambaye ikoti ry'umuhondo, imbere harimo ibara ry'umukara, yambaye na rinete. Iruhande rwe hari ikirango cy'igihugu gifite ibara ry'ubururu, icyatsi n'umuhondo, ku rundi ruhande hari ikindi kirango kiri mu ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abagabo bahagaze ndetse n'abagore bafashe ku kirango gifite ibara ry'ubururu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo hagati harimo izuba bigaragara ko ari ikirango cy'igihugu bamanitse amaboko imbere yabo hari mikoro bigaragara ko bari kurahira.

Umugabo ufite amenyo y'umweru ni umugabo ufite umusatsi urimo imvi yambaye ikositimu y'umukara na karuvati y'umukara ishati y'umweru imbere ye hari indangururamajwi n'igitelefone kinini ku meza hateretse icupa ry'amazi n'ikirahure.

Umugabo wicaye ku ntebe nziza, yambaye ikote ry'umukara mo imbere harimo ishati irimo utubara tw'umweru ndetse n'umukara, afite ikaramu mu ntoki, inyuma ye hari ikirango cy'igihugu gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Abantu batatu umugabo umwe n'abagore babiri, umugore umwe yishimye yambaye indorerwamo z'amaso, undi mugore afite imisatsi y'umukara bahuriye ahantu bari kuganira, inyuma yabo hari igisenge cy'inzu kigaragara neza ariko amarangi ari ku gikuta aravangavanze.

Umugore mwiza wambaye amaherena, yambaye indorerwamo z'amaso, yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu, uyu mugore ni mwiza, ni inzobe, yicaye ku ntebe y'umukara. Inyuma ku gikuta hari ibara ry'ubururu rivanze n'umweru.

Ahantu heza hadekoye neza, hari ibitambaro bifite amabara atandukanye hari igifite ibara ry'icyatsi, hari igifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'igifite ibara ry'ubururu. Imbere hahagaze abantu babiri umwe afite ikaye n'ikaramu mu ntoki, undi afite urupapuro bigaragara ko ari kurwinjiza mu mashini.

Abantu babiri bari kugenda mu muhanda, hirya yabo hari kunyura igifusa kiri mu ibara ry'umutuku, nyuma y'icyo gifuso hubatse urugo rurimo rugizwe n'ihema ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri nini zifite ibara ry'umweru, imwe ifite ibyuma hejuru bigaragarako itwara imizigo, ku ruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru harimo umugabo uri kugenda ufite umufuka mu ntoki, iruhande rwe hari umuferege unyuramo amazi.

Ni imodoka ya rukururana itwara imizigo iyivana ahantu hamwe iyijyana ahandi, iri kunyura muri kaburimbo, imbere yayo hari amamoto, hari amatara ku muhanda, hari n'igiti kinini kigandaye.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande haparitse moto, inyuma yayo hari intebe, imwe iri mu ibara ry'umweru, indi iri mu ibara ry'ubururu, inyuma yaho haparitse igare. Hari umuntu uri kugenda, imbere ye hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wanditseho MTN, munsi yawo hicaye abantu bigaragara ko ari ahantu hatangirwa serivise za MTN.

Imodoka nto ziri mu bwoko bwa moto ariko zifashishwa mu gutwara imizigo, ziparitse ari nyinshi zifite amabara atandukanye. Iruhande rwazo hari umuntu uhagaze wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'ishati y'umukara imbere harimo umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, bigaragara nkaho aha ariho izi modoka ziparika.

Icyuma cyifashishwa mu gutwara imizigo gifite amapine abiri, iruhande rwacyo hari abantu benshi ndetse haparitse n'imodoka, bigaragara ko aho hantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye.

Imodoka ndende iri mu ibara ry'umweru ifite n'ibara ry'ubururu, ihetse insinga z'umukara zitwikirije ishashi y'umukara. Ku ruhande rwayo hari moto itwaye umugenzi, ku ruhande rwayo nanone hari umuntu ufite igare uhetse imizigo, inyuma ye hari n'undi uri kugenda n'amaguru.

Ni za modoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali zibajyana mu midugudu ya hafi za yutonge n'ibindi, iyi modoka ntiyishyuza amafaranga menshi, upfa kuba ufite ikarita yawe ugakozaho ubundi ukigendera.

Imodoka itwara abagenzi, itwaye mu masaha ya nijoro, mu mujyi amatara ari kwaka, inyuma hari amapiloni atwara insinga z'amashanyarazi, hino hari umuntu uhetse igikapu cy'umukara wambaye umupira utukura.

Imodoka ziparitse ziri mu bwoko bwa kwasiteri zitwara abagenzi, bigaragare ko ariho abagenzi baza gufatira imodoka, ni muri gare. Iruhande rwayo hari abantu bari kugenda, bigaragara ko bari kujya gutega izo modoka.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo imodoka nini cyane, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, ku ruhande hari ikiraro cyambukirwaho n'abanyamaguru ndetse n'umuferege unyuramo amazi, ku rundi ruhande ari uruzitiro ruriho igitambaro cy'icyatsi ndetse n'ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo umuntu utwaye igare yambaye ingofero, umupira w'umutuku, n'ipantaro y'umukara, ahetse imifuka myinshi itandukanye, hari ifite ibara ry'umweru, ibara ry'umuhondo, ndetse hari n'indi iri mu mpande, hirya ye hari imodoka ziparitse ndetse hari n'umuntu uhagaze.

Ni imodoka ya rukururana itwara imizigo myinshi cyane. Iri mu ibara ry'umweru, ifite amapine y'umukara. Imbere yayo hari indi modoka iri kurenga. Hakurya hari ibiti birebire byiza, bitohagiye.

Umuhanda dukunda kwita kaburimbo, urimo imodoka iri mu ibara ry'umweru, ifite icyapa cyanditseho uruvange mu ijambo ryandikishije ibara ry'umweru, ku ruhande bigaragara ko hari umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo, hari kunyura ibinyabiziga bitandukanye, ariko iziganjemo ni moto ziri kugana mu ruhande rw'ibumoso, inyuma yazo hari igifuso kinini cyanegihetse imitwaro ndetse inyuma yacyo hari ibiti byinshi bicucitse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri mu bwoko bwa tagisi ifite ibara ry'umweru itwara abagenzi. Imbere yayo hari moto iri kugenda, ku ruhande rwo hirya hari abantu bari kugenda n'amaguru, ku rundi ruhande naho ari umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru.

Ahantu hari imodoka nyinshi ziri mu bwoko butandukanye, hari tagisi, hari n'indi modoka ndende ariko zose zitwara abagenzi bigaragare ko ari ari aho ziparika zitegereje abagenzi iruhande rwazo hari abantu benshi bahagaze bigaragara ko bari kuganira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yo mu bwoko bwa fuso iri mu ibara ry'umweru iruhande rwayo hari ikiraro cyambukirwaho n'abanyamaguru, imbere yayo hari umuntu uri kugenda n'amaguru bigaragare ko ari umuhanda w'abanyamaguru, hirya yayo naho hari umuntu uri kugenda bigaragare ko naho hanyurwa n'abanyamaguru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo moto zitwaye abagenzi ndetse harimo n'imodoka zitwaye imizigo. Hari imodoka ihetse imbaho nyinshi, inyuma yayo hari umuntu uri kugenda n'amaguru bigaragara ko ari umuhanda w'abanyamaguru, ku ruhande rwayo hari inzu ndende ya etaje iri mu ibara ry'umuhondo.

Umumotari uri mu muhanda. Ari kugenda wenyine, yambaye kasike y'umuhondo n'ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu. yambaye ipantaro ya kaki. Ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti bitohagiye by'inganzamarumbo.

Umuhanda munini wa kaburimbo hagati hashushanyijemo amabara y'umukara ndetse n'umweru. Ku nkengero zawo hari indi mihanda ishamikiyeho iri kunyuramo ibinyabiziga biri kujya mu byerekezo bitandukanye, harimo moto, harimo imodoka.

Ikimodoka kinini cya rukururana gihetse imitwaro, kiri kunyura mu muhanda wa kaburimbo. Imbere hari umuntu uri kuhaturuka uhetse agafuka ku rutugu, wambaye isarubeti y'ubururu, hari umumotari uhetse umugenzi uri kwihuta.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo imodoka ebyiri zitandukanye, harimo imodoka nini itwara imizigo, ifite ishashi y'ubururu hejuru, inyuma yayo, hari indi modoka iri mu bwoko bwa moto, yifashishwa mu gutwara imizigo, na yo ifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo imodoka nyinshi, hari ifite ibara ry'umweru, inyuma yayo hari imodoka ifite ibara ry'ubururu nini cyane, bigaragara ko itwara imizigo.

Imodoka nyinshi ziri mu bwoko butandukanye, hari ifite ibara ry'icyatsi yanditseho amagambo, imbere yayo hari ifite ibara ry'umweru, ku ruhande hari abantu bari kugenda n'amaguru, bigaragarare ko ari umuhanda w'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara ni nini cyane, imbere yayo hari moto nyinshi zitwaye abagenzi, ku ruhande hari ikiraro kinyuramo amazi ndetse n'inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo imodoka eshatu, ebyiri ziriwi ibara ry'ubururu bigaragara ko zifashishwa mu gutwara imizigo, iruhande rwazo haparitse moto yicayeho umumotari, imbere iruhande rwe hari abantu babiri bahagaze, hirya ku ruhande hari insinga nyinshi ndetse n'inzu ifite ibara ry'umweru n'akandi kazu ku ruhande gafite ibara ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane itwara imizigo, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi. Hejuru hariho ishashi y'ibara ry'icyatsi. Imbere yayo hahagaze abantu. Hari umuntu wambaye ikanzu y'umuhondo ufite agatambaro mu mutwe k'ibara ry'umutuku. Imbere ye hahagaze umuntu wegamye ku mifuka myinshi irimo ibintu.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka yicayemo umuntu iri mu ibara ry'umweru, ku ruhande rwayo hari indi modoka iri mu ibara ry'umukara; hagati harimo moto zitwaye abagenzi, ku ruhande rwo hirya hari umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru, harimo abantu bari kugenda n'amaguru.

Imodoka nyinshi ziri mu bwoko butandukanye ziparitse, hari imodoka nini iri mu ibara ry'ubururu, hari n'izindi modoka ziri mu ibara ry'umweru; ku ruhande hari indi modoka nini cyane, ihetse imifuka myinshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto zitwaye abagenzi, harimo n'imodoka. Kuhande rwazo hari ahantu hanyura amazi ndetse n'aho' abanyamaguru banyura, ku rundi ruhande hari jalide iteyemo indabyo ndetse n'ibiti.

Umuhanda mwiza usizemo irangi ry'icyatsi, ku ruhande rwayo hari jaride irimo indabyo ndetse n'imodoka, ku rundi ruhande hari jaride irimo pasiparumu, imbere yaho hari amatara ari ku murongo, hagati muri uwo muhanda handitsemo amagambo.

Icyapa kiba kiri ku muhanda aha ni ifoto yacyo gishushanyijemo umugabo n'umukobwa we bafatanye ukuboko, aha ngaha iyo ukibonye utwaye ikinyabiziga urahagarara abagenzi bakabanza bakambuka.

Imodoka ishushanyije icishijemo agakubo, iki ni icyapa cyo ku muhanda mu gihe ukibonye ahantu runaka, hita umenya ko bari kukubuza ko nta modoka ihanyura cyangwa se ngo ihaparike.

Icyapa gishushanyijeho umugabo urigutiyura umucanga. Iki cyapa iyo ukibonye uhita umenya ko aho hantu hari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi. Ni byiza rero ko ugenda witegereza kugira ngo utaza kugira amakosa ukora.

Inzu ndende dukunda kwita etage imbere yayo hari umuhanda witwa kaburimbo urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara hagati harimo jaride irimo indabyo ndetse n'igiti hari igiti kirekire kiriho icyapa.

Icyapa cyanditseho umubare mirongo itandatu kiri ku muhanda. Inyuma yacyo hari umugabo uri kugenda wambaye imyenda y'umukara. Ruguru yacyo hari inzu isize amarangi y'umuhondo. Hakurya y'umuhanda hari ibiti by'icyatsi.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hari icyapa cyanditseho Rambura, ukikibona uhita umenya ko ugeze muri Rambura, hakurya mu ruhande imbere, hari abagore babiri bari kunyura mu muhanda, inyuma yabo hubatse amazu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, hagati harimo ibara ry'umweru, hashushanyijemo igare riri mu ibara ry'umukara, hacishijemo akarongo kari mu ibara ry'umutuku, munsi yaho hari icyapa cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru bigaragara ko bitemewe kuhanyura.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, hagati harimo ibara ry'umweru hashushanyijemo imodoka iri mu ibara ry'umukara. Hacishijemo akarongo kari mu ibara ry'umutuku, munsi hari amagambo yanditseho bigaragara ko nta modoka yemerewe kuhanyura.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku kizengurukijwe ibara ry'umweru, hagati harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru bigaragara nkaho'a ari icyapa cyerekana guhagarara.

Icyuma gifite amatara atandukanye kiri mu ibara ry'umukara harimo ishusho yishushanyijemo umuntu uri mu ibara ry'icyatsi bigaragara ko ari kugenda, hagati harimo itara ry'umutuku, hejuru harimo imibare igaragara ko ari muri feruje.

Inzu nziza iri mu ibara ry'icyatsi yubakishijwe amatafari, imbere hari imiryango ibiri ifunguye, bigaragare ko hatangirwamo serivise zo kuvura abantu. Imbere yaho hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, hagati harimo ibara ry'umweru, harimo n'akambi kari mu ibara ry'umukara.

Inzu ishakaje utubati dushaje, ikigega cy'umukara, insinga zinyuranyemo zitwara umuriro, hakurya hari umudugudu urimo inzu zicucitse ariko zisirimutse, inyuma y'izo nzu hari amashyamba.

umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bari kugenda n'amaguru harimo n'imodoka nyinshi ziri kugenda ku nkengero zawo hari imodoka zindi ziparitse ndetse n'abantu bari kugenda n'amaguru hari n'imitaka iriw'i ibara ry'umuhondo rigaragara ko hakorerwa ibikorwa bitandukanye Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bari kugenda n'amaguru, harimo n'imodoka byinshi ziri kugenda, ku nkengero zawo hari imodoka ziparitse ndetse n'abantu bari kugenda n'amaguru, hari n'imitaka iriho ibara ry'umuhondo rigaragara ko hakorerwaho ibikorwa bitandukanye.

Inzu nini cyane ikikijwe n'ibirahuri, hariho ibyapa bitandukanye, bigaragara ko hakorerwamo banki hatangirwamo serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura amafaranga. Imbere yaho haparitse umumotari wicaye kuri moto.

Aha ni mu mujyi wa Kigali uko byagenda kose harasirimutse, hateye imikindo ku muhanda, ni myiza, ihagira heza, inyuma y'iyo mikindo hari inzu ndende isize amarangi y'umweru, munsi y'iyo nzu iruhande rwayo ku mbuga ihari, haparitse imodoka nyinshi cyane.

Inyubako nziza cyane iparitseho imodoka imbere yayo. Ni iy'umukire. Isize amarangi y'umweru n'andi marangi, ay'ivu n'utundi tuvanzemo. Hateye ibiti bihagira heza bizana amahumbezi n'akayaga muri urwo rugo.

Inzu yubatse iriho amadirishya y'umukara ataririmo ibirahuri, wagira ngo n'ikigo cy'amashuri. Ariko ni inzu ya etaje, ni inzu idakoze neza. Inyuma yayo hari ibyatsi hararaye ntabwo bayitayeho.

Inzu ndende nziza isize amarange y'umukara ndetse n'umweru, imbere yayo hari jaride irimo indabyo nziza ndetse imbere yayo hari n'amapave, hejuru hari icyapa kigaragaza ko hari parike y'inyoni.

Inzu nyinshi zifite ibyapa imbere yazo hariho icyapa kigaragaza ko ari ivuriro, ndetse hari n'ikindi cyapa cyanditseho andi magambo. Inyuma yaho hari inzu ndende ifite ibara ry'umweru, ndetse n'amadirishya atatu.

Inzu yubakishije ibyuma ifite ibitambaro bigiye bitandukanye, ibi dukunze kwita rido, hariho ibitambaro bifite ibara ry'uburu ry'icyatsi ndetse n'ibara rya kake. Imbere yaho hari ikirango cyanditseho marato. Imbere yaho hari imodoka ihaparitse.

Abagabo babiri bahagaze ku muhanda. Umwe yambaye ipantaro y'umweru n'ishati y'umutuku, undi yambaye ipantaro ifite ibara ry'ivu, ikote ry'umukara n'ingofero y'umweru. Bari kwitegereza inzu nziza yubatse ruguru y'umuhanda, igeretse irimo amarangi y'umuhondo, ifite igisenge gifite ibara ry'ifu, igipangu kihubatse cyubakishije amabuye.

Inzu iri ku nzira yubatse. Ni ibipangu bibiri byegeranye bifite amabati atukura, hagiye hariho n'ibiti bikurura akayaga, uturabyo twiza tw'umuhondo, inzugi z'ibipangu nini, ndetse n'amapave ahashashe.

Inzu nziza cyane bigaragara ko ari etaje ikikijwe n'ibyuma kur uhande, imbere ifite igipangu gifite ibara ry'umukara, imbere y'igipangu hari amapave.

Inzu nziza, ndende ya etaje, iriho igipangu cyubakishije amatafari ndetse ifite amabati y'umutuku. Imbere yayo hari insinga z'umuriro w'amashanyarazi, bigaragara ko izo nsinga zijyana amashanyarazi kuri iyo nzu.

Inzu ndende ya etaje, imbere hariho icyapa kiriho amagambo menshi, imbere hari amapave, haparitse imodoka ziri mu bwoko butandukanye, imwe iri mu ibara ry'umukara, indi iri mu ibara ry'umutuku.

Inzu ndende kandi nziza yubakishijwe amatafari ahiye yanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo ku ruhande hari hasize ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara bigaragara ko iyi nzu yubatse neza ndetse ifite n'ibyuma bigiye biyikikije.

Ahantu hanini kandi heza, hari inzu zigiye zitandukanye zubatse mu buryo bwa kijyambere. Hari izifite amabati y'umutuku ndetse n'amabati y'umukara ndetse n'amabati y'umuhondo. Zizamuje amatafari ahiye, hagiye harimo n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inzu ndende ifite ibirahure birebire, isize ibara ry'umukara, imbere y'aho haparitse imodoka, hejuru hari icyapa kigaragara ko hari ibikoresho byubwubatsi.

Inyubako yanditseho giriti apatimenti hoteri ni inyubako ya etaje igereretse isize amarangi y'umuhondo ifite amadirishya arimo ibirahuri by'umukara.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ku nkengero zawo hari inzu nini, ndende, ifite ibyapa bitandukanye; imbere yayo hari amapave hariho imodoka nyinshi ziparitse, ku ruhande rwayo hari indi nzu bigaragara ko iri kubakwa.

Umuhanda munini hagati harimo icyapa kimwe dukunze kwita ropuwe harimo kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye nka moto zitwa abagenzi ndetse n'imodoka, ku ruhande rw'umuhanda hari abantu bari kugenda n'amaguru bigaragare ko ari inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, ushushanyijemo amabara y'umweru, bigaragara ko ari umuhanda w'abanyamaguru, hagati hahagazemo umuntu, inyuma ye hari moto ziparitse, imbere ye hari imodoka ndetse na moto zitwaye abagenzi, ziri kugenda.

Umumotari wicaye kuri moto n'umugenzi umuhagaze inyuma, aha ngaha uyu mugenzi ari kumvikana n'umumotari aho agomba kumugeza, inyuma hari n'akandi ka moto gatwara imizigo bita rifani, hirya hari izindi moto ziri kurenga zigenda.

Ni kinamba mu mujyi wa Kigali ahaha ni hahandi hari ikiraro gitandukanya imihanda ibirigeyerekeranye nk'uko tubibona, uyu mumotari agiye guca munsi y'umuhanda wo hasi. Hejuru naho haca izindi modoka, imbere ye hari umuntu utwaye imodoka urimo amusanga.

Umuhanda munini wa Kaburimbo, urimo imodoka nini, iri mw' ibara ry'ubururu ,ndetse n'umweru ,bigaragara ko iri mu bwoko bw'imodoka zitwara abagenzi, imbere yayo hari umuntu uri kugenda n'amaguru afite n'igare.

Umuhanda munini wa kaburimbo ushushanyijemo amabara atandukanye ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara. Hagati mu muhanda harimo jaride irimo indabyo ndetse harimo n'imodoka ziri mu bwoko butandukanye ziri kugenda. Hari n'amapoto agiye afite amatara amurika mu muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo imbere ya guturuka mato imi nduga yaru kugana imbere aho moto ziri guturuka hari ibiti impande ebyiri zitandukanye haragaragara n'amatara acanwa ku muhanda n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hagati harimo jaride irimo indabyo ndetse n'icyuma kirekire, ku ruhande rwayo hari ahantu hameze nk'ikibuga, harimo abantu bari kwiruka bigaragara nkaho bari muri siporo.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru, imbere hari moto iri kugenda, bigaragara ko aha mu mirongo y'umweru hambukira abantu b'abanyamaguru, iyo ikinyabiziga kihageze hari kwambuka abantu kirahagarara kigategereza bakagenda.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo amabara y'umweru, imbere hari itara ryaka umutuku, iruhande hari moto ziparitse zitwaye abagenzi, bigaragara ko ari muri feruje, ibinyabiziga bitegereje abagenzi, abagenda n'amaguru bakambuka.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo amabara agiye atandukanye, harimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, hagati no ku ruhande hari jaride ziteyemo indabyo, hagati mu muhanda harimo imodoka iri mu ibara ry'umukara, imbere yayo hari moto itwaye umugenzi.